Wambaye umupira utukura n'ipantaro y'umukara ufite n'umusatsi mwiza ahetse ipombo ari gufuhira imboga ze kugira ngo yice ubusimba ndetse zizamugirire n'umumaro mu gihe kizaza.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru, uri imbere y'ibikoresho by'ikoranabuhanga, uri kugerageza gukora imiti y'amatungo, kugira ngo barwanye indwara zirimo nk'uburondwe n'izindi zifata amatungo.

Umu mama uhetse ipombo uri gufuhira ibigori, kugira ngo yice udusimba ndetse bizere neza bizakure neza, bidafite ikindi kintu kibibangamira, kugira ngo azabonemo umusaruro ukwiriye.

Umuntu ufashe icupa ari gutera ku byatsi ndetse kugira ngo yice udukoko turi kuri ibyo byatsi kugira ngo bimere neza, bikure neza, bizafashe abantu mu kubaha umwuka mwiza.

Umucaca mwiza wegeranye n'ahantu bororera amafi, afasha abantu mu buryo butandukanye, bayarya, bakayagurisha ndetse akabinjiriza n'amafaranga mu buzima.

Umugabo wambaye umupira w'umweru usa n'aho yishimye cyane, yari ari mu kazi ko kuroba amafi amufasha kwiteza imbere, guteza imbere umuryango we, akamwinjiriza amafaranga ndetse akanishyurira abana ishuri.

Abaturage bari ku cyuzi bagiye kuroba amafi abafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi, bakuramo amafaranga, bakuramo ibibatunga ndetse bakabona na minerivari.

Abaturage benshi cyane babyukiye mu kazi ko kuroba mafi, kugira ngo biteze imbere bateze imbere imiryango yabo, bibinjize n'amafaranga yo kwishyura minerivale z'abanyeshuri.

Abaturage bari hafi y'ikiyaga, baje kuroba amafi kugira ngo bayagurishe babonemo ibibatunga ndetse babone n'ibibateza imbere, harimo nk'amafaranga yo kwishyura abantu ishuri ndetse no kwifashisha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Abagabo babyukiye mu kazi k'uburobyi baje kuroba amafi kugira ngo babone ikibatunga bateze imiryango yabo, imbere ndetse bafashe n'abana babo babarihira minervari kugira ngo bajye ku ishuri.

Ubworozi bw'amafi bufasha abayoborora kwiteza imbere, bagateza imbere imiryango yabo, ndetse bikinjiriza Igihugu, bikabinjiriza amafaranga, bigatuma bishyurira abanyeshuri.

Imirima y'icyayi ihinze neza, gifasha abantu kwiteza imbere no guteza imbere imiryango yabo, bacyohereza hanze ndetse bifasha n'abagisoroma, kubona amafaranga abatunga.

Igiti k'ikawa gisa neza, kiriho ikawa, agakawa kamwe keze, ndetse n'izindi zikiri mbisi, bifasha kwakira abanzi b'ikawa kwiteza imbere, bakuramo amafaranga, ndetse no guteza imbere imiryango yabo.

Agasozi keza kariho, amaterasiyinganire ndetse n'ubuhinzi bw'ikawa bufasha abaturage mu kuzahura ubukungu bw'igihugu, ndetse butanga n'akazi ku bantu bayisoroma, ndetse na ba nyirayo baba bayihinze.

Abaturage babyukiye mu kazi ko gusuroma icyayi, gifasha ba nyiracyo bagihinze, kwiteza imbere no guteza imbere imiryango yabo ndetse kikanafasha abagisoroma, kubona amafaranga abatunga.

Imirima myiza ibereye ijisho ihinzemo igihingwa nzahubukungu cyitwa icyayi, cyinjiriza abaturage amafaranga mu gihe bacyohereje hanze y'Igihugu n'abayasuroma bakabonamo amafaranga yo gutunga imiryango yabo.

Abakozi bari gusarura icyayi ndetse bahetse ibitebo, kugira ngo babone amafaranga atunga umuryango, ndetse bikabafasha kwibeshaho no kubeshaho imiryango yabo, batiriwe birukanka.

Abaturage babyukiye mu mirima yabo ihinzemo umuceri baje kureba uko umeze kugira ngo bawubagare irusheho kumera neza ndetse ubinjiriza n'amafaranga.

Ubuhinzi bw'ikawa ifasha abaturage mu kwiteza imbere, bitanga akazi abaturage bakabonamo amafaranga yo kurihirira abana ku ishuri no gutanga minerivari z'abanyeshuri.

Ikawa n'igihingwa nzahurabukungu cyinjiriza abantu benshi amafaranga, kigatanga akazi ku bayisoroma ndetse n'abahinzi nyirizina bayihinga.

Ikawa ni igihingwa nzahurabukungu gifasha abahinzi kwiteza imbere, guteza imiryango yabo imbere babonamo amafaranga yo kurihira abana babo ku ishuri.

Utujerekani tw'umweru turimo imitiamatungo, ifasha abarozi mu kuvura amatungo yabo, harimo inka, intama, ingurube ndetse n'amatungo, andi n'inkoko zirimo.

Amacupa arimo imiti y'amatungo ifasha aborozi mu guha amatungo yabo, harimo inka, intama, ihene n'ingurube kugira ngo bazivure zikire biteze imbere binyuze mu kuzibungabunga no kuzifata neza.

Imiti iri mu masashe, bifashisha baha inkoko kugira ngo bazirinde uburwayi cyangwa se bazivure mu gihe zarwaye. Bifasha abahinzi n'aborozi kwiteza imbere ndetse no kuvura inkoko zabo.

Ibikarito birimo imiti y'amatungo ifasha aborozi mu kuvura inka, intama zabo, kugira ngo bazazivanemo umusaruro ndetse biteze imbere.

Amacupa arimo imiti y'amatungo harimo inka ingurube, ihene, n'intama ifasha aborozi kuvura inka zabo n'amatungo yabo, kugira ngo biteze imbere bateze imbere n'imiryango yabo.

Udukarito turimo imiti y'amatungo ifasha aborozi mu kuvura amatungo yabo kugira ngo biteze imbere, bateze imbere n'imiryango yabo.

Icupa ririmo imiti y'inka ifasha aborozi mu kuvura inka, kugira ngo zibateze imbere ndetse zibahe umukamo ukwiye, zibafashe no guteza imbere imiryango yabo.

Amacupa y'umuhondo arimo imiti y'amatungo ifasha aborozi mu kuvura inka zabo kugira ngo zikire baziboneho umukamo ndetse zinababyarire inyungu.

Umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'ubururu ufashe igiti agiye kugitera kugira ngo kizamugirire umumaro wo kukivanamo ibintu byinshi bitandukanye nk'amafaranga n'ibindi.

Abagabo babyukiye mu gikorwa cyo gutera ibiti, ni gahunda ya Leta y'u Rwanda yo kongera ibiti kugira ngo bikurure imvura hagabanye ihindagurika ry'ikirere ndetse bibafashe mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Abagore, abagabo bari gutera ibiti, kugira ngo bizabafashe muri ejo heza habo hazaza, uburyo bwo kubivanamo imbaho, kubigurisha bakabibonamo amafaranga, abafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ubuhinzi bwa avoka nziza ziteza imbere abaturage, ziba zifite akamaro kenshi gatandukanye, zinjiza amafaranga kuri ba nyirazo ndetse bazikoramo n'amavuta yo kwisiga.

Mu rwego rwo kongera ibiti mu Rwanda, abaturage babyutse baza kubifata, kugira ngo babitere bijye bikurura imvura, bijye birwanya isuri, ndetse amababi yabyo ajye atanga ifumbire, bajye banabikuraho inkwi no kubizamo imbaho.

Ubworozi bw'inka zitanga amata ni ubworozi bufitiye akamaro abaturage, babonaho amata bakabona ifumbire yo gufumbiza imirima yabo, bikabafasha mu kwiteza imbere ndetse n'imyaka ikera ari myinshi.

Umwana mutoya wabyukiye mu kazi ko gutema ubwatsi bw'urubingo, abujaniye inka kugira ngo abone uko yongera umukamo ndetse bibafasha no kwiteza imbere no guteza imbere imiryango yabo.

Ubuhinzi bwa kijyambere buteye imbere bwo guhinga imyaka ku mirongo bifasha abaturage kugira ngo babone uburyo bworoshye bwo kuyubuhira ndetse no kuyibagara bigatuma byoroshya akazi k'abahinzi.

Umugabo n'umugore, umugabo yambaye ikoti ry'umukara, umugore yambaye umupira w'umukara bafashe igiti cy'imyumbati cyeze neza cyane n'inyuma yabo hari umurima w'imyumbati kandi imyumbati idufasha mu kubona ubugari bwo kurya.

Abaturage babyukiye mu kazi kabo ka buri munsi nko guhinga, gutera imyaka, kugira ngo izere ibateze imbere ndetse iteze imbere n'imiryango yabo, ibinjirize amafaranga yo kurihira abanyeshurishuri.

Umugabo n'umugore, bari mu myaka, baje kuyibaga no kuyikorera neza kugira ngo yere ndetse bayifashishe, biteza imbere, bateza imbere imiryango yabo, babonamo n'amafaranga yo kurihira abana ku ishuri.

Abahinzi babyukiye mu kazi ko gusarura umuceri ndetse ubafasha kwiteza imbere, guteza imbere imiryango yabo, bawukuramo amafaranga yo kurihira abana minerivale ndetse bakabona nabo umuceri wo kurya.

Ibirayi ni ibihingwa byiza byera igihe cyose bifasha abaturage kwiteza imbere ndetse no guteza imiryango yabo imbere bikabinjiriza amafaranga yo kurihira abana ku ishuri.

Umuceri ni igihingwa bahinga ahantu hari amazi, gifasha abaturage mu kwiteza imbere, guteza imbere imiryango yabo ndetse bakabona amafaranga, barihira abana babo ku mashuri.

Umuceri uhinze neza weze usa neza, ndetse ufasha abaturage mu kugurisha bagakuramo amafaranga, bakanawurya ayo mafaranga akaba abafasha kwiteza imbere no guteza imbere imiryango yawo.

Umugabo wambaye umupira w'umweru n'ikabutura y'umukara, wabyukiye mu kazi ka mugitondo, arimo aratera umuceri kugirango aziteze imbere, ateze n'umuryango we imbere.

Ibyatsi ndetse n'amababi y'ibisusa, afasha abaturage mu gihe bashaka kuyateka, bakayarya, ibihaza ndetse biranabafasha mu gihe bashaka kurya ukabiteka, bifasha n'ubuzima bwabo bwa buri munsi kubona amafaranga.

Umurima mwiza uhinzemo ibiti bikeya, utuye ahantu hasa neza hameze neza, ubereye kubaka ndetse no kuhatura, no kunyuraho umuhanda uhuza abaturage.

Umurima munini cyane urimo ibiti, nubwo atari byinshi, ndetse bifasha abantu kumva umwuka mwiza, bigakurura n'imvura, ndetse umurima unabafasha no kuwuhingamo bakawusaruramo imyaka.

Ishyamba ryiza ririmo ibiti bimeze neza bisa neza, ahantu heza ho kuza kuruhukira mug ihe urangije akazi ukiyumvira umutuzo n'umutekano n'amahumbezi.

Ubworozi bw'inka zimeze neza zisa neza ndetse zitanga umukamo kuri ba nyirazo, zigatanga ifumbire yo gufumbiza imyaka kugira ngo yere neza.

Ikiyaga kiza, kiri mu misozi myiza, gitanga umwuka mwiza, gitanga amazi yo kuhira imyaka, ndetse kikanafasha n'abaturage mu burobyi. Bakabona amafaranga yo kwifashisha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ikirere gisa neza, gisa ubururu, gifite n'ibi by'umweru, n'umuhanda wa kaburimbo, ni ahantu hasa neza hubatse abaturage, ndetse hanatuye n'abantu benshi batandukanye.

Urutoki rwiza cyane rwegereye ishyamba rinini ridufasha mu guhumeka umwuka mwiza, rikurura ba mukerarugendo, rigakurura n'imvura ndetse ikadufasha no gukomeza imyaka no gutuma yera.

Abaturage bari kunyura mu ishyamba ribafasha kuruhuka ndetse ricumbikiye inyamaswa, rikurura imvura, barikuramo inkwi, bakanarisenyamo ibiti byo kubakisha.

Ishyamba rinini cyane, harimo n'amapironi y'amashanyarazi, atwara umuriro ku baturage, basa nk'aho uri gukora umuhanda, uzajya ujyana imyaka y'abaturage.

Ishyamba rinini ryiza, ririmo ibiti byinshi bitandukanye, rifasha mu gukurura imvura, rikazana ba mukerarugendo, ricumbiki n'inyamaswa, ba mukerarugendo bagatanga amafaranga.

Ishyamba ry'ibiti ryiza birimo inka ndetse ubworozi bw'inka bwo bufasha abaturage kwiteza imbere, guteza imiryango yabo imbere, ndetse bakabafasha no kubona amafaranga bishyurira abana babo.

Ibiti bisa neza bimeze neza birebire bifasha abaturage mu kwiteza imbere, urugero bakabikoramo imbaho, bakabikoramo intebe. Bitanga akazi ku bantu babibaza ndetse bikabinjiriza n'amafaranga.

Ishyamba rinini ryiza risa n'iryegereye ikiyaga, ridufasha mu gukurura ba mukerarugendo, acumbikiye inyamaswa, ndetse rikurura n'imvura igwa mu myaka igatuma imyaka yera vuba.

Ishyamba harimo ibiti byiza bitatanye harimo n'amazi rifasha abantu mu kubaha umwuka mwiza ndetse no kuritembereramo mu gihe bashaka kuruhuka.

Ishyamba ryiza rimeze neza risa neza, rifasha abantu mu buryo butandukanye, bakuramo inkwi, rikurura imvura ndetse rikurura na bamukerarugendo.

Ishyamba ryiza, rinini cyane, ririmo ubwoko bw'ibiti, byinshi bitandukanye, bidufasha gukurura imvura, ribamo inyamaswa zitandukanye, zikurura ba mukerarugendo, bagatanga amafaranga, ku gihugu.

Umumama uri kuhira imbuto n'indabo kugira ngo azabonemo amafaranga, ndetse binamuteza imbere biteza imbere umuryango we, abonemo n'amafaranga yo kwishyurira abana ishuri.

Ubuhinzi bw'indabo n'ubuhinzi buteye imbere muri iki gihe, bufasha ababukora kwiteza imbere, guteza imbere imiryango yabo, ndetse bakabonamo n'amafaranga, yafasha ababyeyi, abana, ndetse n'imiryango.

Ubuhinzi bwiza bwo ku mirongo bufasha abaturage mu guhinga bameze neza kandi bitabavunnye, bakabona uburyo buhira imyaka yabo, ndetse bakabona n'uburyo bayisarura mu buryo bworoshye.

Inanasi ni urubuto rwiza ruryoha cyane, bakoramo ibintu byinshi bitandukanye, harimo umutobe ndetse hari n'aho bayikoramo isukari, kandi abantu bose benshi muri twe turayikunda.

Ubuhinzi bw'imbuto n'indabo, bufasha abaturage mu kwiteza imbere, mu gihe, bagurisha izo mbuto, bakagurisha izo ndabo, bakinjiza amafaranga bakabona uburyo bishyurira abana babo amashuri.

Abagabo bari mu murima uhinzemo amatunda ibi bibafasha mu kwiteza imbere guteza imbere imiryango yabo ndetse amatunda tuyifashisha mu gihe turi gukora umutobe no kuyarya ndetse n'ibindi bitandukanye.

Tiyomeshi ndetse n'ibyuma bihagaze biteye irangi ry'ubururu, akazu gateye irangi ry'umweru, ndetse gafite urugi rw'ubururu, amatiyo ajyana amazi mu mirima y'abaturage, kugira ngo bayuhire.

Abantu benshi babyukiye mu murima barimo buhira imyaka yabo kugira ngo ntiyume ndetse izabahe n'amafaranga yo kwiteza imbere, guteza imbere umuryango wabo no kubona amafaranga barihirira abana.

Umurasire ni igikoresho abantu bifashisha babona umuriro w'amashanyarazi kugira ngo babone uko bihangira umurimo, bakifashisha no gukurura amazi ari kure cyane kugira ngo babone amazi yo gukoresha mu rugo n'ayo kuhira imyaka.

Abaturage bari mu mirima y'imitabo barimo kuhira imyaka yabo kugira ngo imere neza ndetse iveyo bazayifashishe bari kwiteza imbere, bari guteza imbere n'imiryango yabo.

Umugabo urimo yuhira imyaka mu gihe k'izuba kugira ngo itohe imere neza izamufashe mu kwiteza imbere, guteza umuryango we imbere no kubonamo amafaranga yo kurihira abana ku ishuri.

Itiyo y'amazi ari mu mima y'abaturage, abafasha mu kuhira imyaka kugira ngo hongere umusaruro, baririnde imyaka yabo bibafasha kwiteza imbere no guteza imbere imiryango yabo.

Inyubako z'ibigega ndetse n'ibihombo birimo amazi, afasha abaturage mu kuhira imyaka, ndetse kugira ngo bongere umusaruro bagabanye n'uburyo imyaka yumagara kubera kubura uburyo bakuhira imyaka yabo.

Ibitiyo binini bisa ubururu byohereza amazi mu baturage ndetse byegeranye n'ahantu hahinze ibigori hameze neza hasa neza kandi ibigori tukaba tubyifashisha mu buzima bwacu bwa buri munsi harimo nko kubirya.

Imashini ndetse n'amatiyo yuhira imyaka mu buryo bwa kijyambere kugira ngo abahinzi bongere umusaruro ndetse bafashe gutera imbere no kubona umusaruro uhagije kugira ngo babone amafaranga.

Uburyo bwa kijyambere bwo kuhira imyaka, bufasha abaturage kwiteza imbere, no guteza imbere imiryango yabo, bakabona umusaruro mu gihe cyose, ari icy'imvura n'ikizuba.

Ubuhinzi buteye imbere burimo uburyo bwo kuhira imyaka bwa kijyambere, ndetse buhinze no ku murongo, bifasha abaturage mu gusarura umusaruro mu gihe cyose, ari igihe cyizuba n'igihe cy'imvura, bakabona umusaruro uhagije.

Umurasire w'amashanyarazi utanga umuriro ndetse ukurura n'amazi ari kure cyane kugira ngo buhire imyaka, biteze imbere, bateze imbere n'imiryango yabo.

Abagabo bambaye amataburiya y'umweru, bari muri gahunda yo gushishikariza abaturage mu kongera guhuhira imyaka kugira ngo batajya bahura n'inzara, ndetse bongere n'umusaruro.

Umurima munini cyane uhiinzemo imyaka ku buryo bw'imirongonko, ndetse harimo n'amatiyo afuhirira imyaka kugira ngo yere neza iteze imbere abayihinze, ndetse kugira ngo byongere n'umusaruro.

Imisozi myiza ibereye ijisho ihingwaho ibihingwa byinshi bitandukanye harimo insina, ibishyimbo, ibijumba ndetse n'ibindi bifasha abaturage kwibeshaho no kwiteza imbere.

Agasozi keza, kariho amaterasi, gahinzeho imyaka itandukanye, harimo: ibirayi, ibishyimbo n'ibijumba bifasha abaturage mu kwiteza imbere mu kubirya ndetse no kubona amafaranga abafasha mu buzima bwa buri munsi.

Agasozi keza kariho amaterasi y'indinganire, gahinzemo imyaka itandukanye, harimo nk'ibishyimbo, amaterasi adufasha mu kurinda imyuzure n'isuri, kugira ngo hatagira ifumbire iva mu mirima.

Amataba meza n'imisozi myiza iteye amabengeza, irimo n'ibicu byiza ndetse bikurura imvura, hasaga nk'aho ari mu museso wa mu mugitondo mu mafu ya mu gitondo

Ishyamba rinini cyane ririmo ibiti bigufi n'ibirebire rifasha abaturage mu kubona inkwi zo gucana kandi rikaba rikurura n'imvura kugira ngo igwe mu mirima abantu bahinge beza.

Imisozi myiza imeze neza, isa neza, ibereye guhingwa ituranye n'igiturage kirimo amazu asakajwe amabati y'umweru, ndetse inahinzeho insina n'indi myaka.

Igishanga cyiza, kiri kunyuramo umugezi, ndetse ukaba ufasha abantu mu kuhira imyaka yabo, no kubaho bagashora inka zabo amazi, ndetse bakabona n'andi mazi bakoresha mu ngo zabo.

Amataba meza bahingaho insina n'indi myaka myinshi itandukanye hari n'ikirunga cyiza gikurura ba mukerarugendo bagatanga amafaranga bikinjiriza igihugu.

Ubworozi bw'inkoko, z'umweru, ziri mu kibuti cyazo cyabugenewe Aba borozi bazizorura kugira ngo, bakuremo amafaranga, babone amagi, babone n'inyama, bakiteza imbere, kandi babona inyungu.

Ubworozi bw'inka zororerwa mu rugo mu biraro byabugenewe bufasha abaturage kwiteza imbere binyuze mu kubona amata, mu kongera ifumbire yo guhingisha imyaka.

Abashumba, baragiye inka, zifasha ba nyirazo, mu kubona amata, kubona ifumbire ndetse bakiteza imbere, bafumbira imyaka yabo kandi bakabona ayo mata nayo bakayagurisha, ku ikusanyirizo.

Abaganga b'amatungo bari kuyatera intanga mu biraro byiza byabugenewe kugira ngo bongere umukamo ndetse n'inka zizabyara inyana nziza kandi zizabafasha mu kwiteza imbere mu guteza imbere imiryango yabo.

Ubworozi bw'inkoko bufasha aborozi mu kubona amafaranga binyuze mu magi, mu nyama ndetse bakayagaburira n'abana babo kugira ngo bakore, bakure bafite igikuriro kandi bafite imbaraga.

Inkoko ziri mu kibuti cyazo, ni isake hamwe n'inkokazi, zifasha abaturage mu kubona amagi, inyama ndetse no kubona ifumbire yo gufumbiza imirima, ikabafasha mu kwiteza imbere.

Ubworozi bw'inka z'inzungu zimeze neza, bufasha ba nyirazo kwiteza imbere, kubona ifumbire yo gukoresha mu gihe bari guhinga imyaka yabo, ndetse no kubahindurira ubuzima binyuze mu kwiteza imbere.

Ubworozi bw'inkoko zitanga amagi, zigatanga n'inyama, buteza abantu imbere kuko bubinjiriza amafaranga abafasha mu gutangira abana ba minerivari, akanabafasha mu kwiyubaka mu bundi buryo.

Umuntu ufashe ibishyimbo twifashisha buri munsi duhinga ndetse tukabigurisha kugira ngo twiteze imbere duteze imbere n'abantu, n'abantu duturanye ndetse tunabirye.

Umuntu ufite intoki nziza z'umweru, afashe imbuto mu ntoki agiye kuzihinga mu butaka kugira ngo zizamere neza ndetse zizere imyaka azayigurishe yiteze imbere.

Umukobwa uhagaze mu bihingwa, ndetse aho bororera imbuto, bazishyize mu bihuho, kugira ngo zororoke ndetse zikure nta kibazo zifite.

Umugabo wambaye ishati, ingofero n'ipantaro uri gutonora ibigori ibyo yijeje mu murima bimufasha kwiteza imbere no guteza imbere umuryango we, akabonamo amafaranga yo kwishyurira abana ku ishuri.

Uducupa tw'imiti y'amatungo, nibazitera mu gihe zarwaye, kugira ngo zizahuke ndetse zitange n'umusaruro kuborozi, kugirango ngo biteze imbere, bateze imbere n'imiryango yabo.

Inka zibumbatiye umuco Nyarwanda, bakunda kwita inyambo ndetse zitanga n'umkamo, ni amatungo meza, asa neza, ateye ubwuzu kuyareba ndetse yororerwa cyane cyane, mu karere ka Nyagatare.

Abaganga b'amatungo, bambaye ibisurubeti by'ubururu, babyukiye mu kazi ko gutera intanga inka kugira ngo izabyara inyana nziza ndetse biteze imbere ba nyirazo kugira ngo bagere kure mu buryo bworoshye.

Muganga w'amatungo wambaye itaburiya y'umweru n'uturindantoki tw'ubururu, arimo atera inka inanga kugira ngo izabyare inyana nziza izanatange umukamo ukwiriye.

Ishyambo ryiza rinini ririmoma n'imparage, zikurura ba mukerarugendo, nabo bagatanga amadovize, bagatanga n'akazi ku bantu bayobora ba mukerarugendo, bakiteza imbere, bagateza imbere n'imiryango.

Inkende ni inyamaswa zo mu ishyamba zikunda kurira ibiti zikurura ba mukerarugendo bagatanga amafaranga ndetse bikinjiriza igihugu bigatanga n'akazi ku bantu bayobora ba mukerarugendo.

Inyende ebyiri, imwe ihetse akana kayo, ni inyamaswa zisa n'abantu kandi zikurura ba mukerarugendo, bagatanga amafaranga ku gihugu, bikinjiriza n'abantu baba baherekeje abo ba mukerarugendo.

Inyamaswa zo mu ishyamba, harimo nk'inzovu, indubu, isatura n'ingwe, ni inyamaswa zikurura ba mukerarugendo, bagatanga amafaranga, ku gihugu ndetse bigatanga n'akazi ku baturage.

Inyoni ziri mu mazi, zikurura ba mukerarugendo ndetse bagatanga amafaranga ateza imbere igihugu ndetse bikinjiriza n'abaturage amafaranga, baba baherekeje ba mukerarugendo.

Uhetse igikapu, ari kureba ingagi zirimo zigenda ndetse ziri hafi y'inzu yubakishije amatafari ahiye kandi iteye n'irangi ry'umweru, ingagi zikurura ba mukerarugendo ndetse zigateza imbere igihugu.

Intare ni inyamaswa yo mu ishyamba, igira ubukana cyane ndetse inaryana, yica inyamaswa kandi iri n'ibyana byayo, bisa neza kandi zikurura ba mukerarugendo.

Intare iri n'ibyana byayo ni inyamaswa ziba mu ishyamba ndetse zikurura ba mukerarugendo, bagatanga amafaranga kandi bikinjiriza n'Igihugu n'abantu bayobora abakerarugendo.

Igishuhe ni inyoni iba mu mazi ndetse itemberamo, ikurura ba mukerarugendo, bakaza kuyireba kugira ngo batange amadevize ndetse yinjiriza igihugu, anateze imbere, abayobora ba mukerarugendo.

Ruku ni inyamaswa iba mu ishyamba, ikaba irya inkwavu, ikarya imbeba, ndetse ikarya n'utundi dusimba dutoya iba isa neza ikurura ba mukerarugendo bakinjiza amadovize

Inzovu ni inyamaswa nini igira amahembe abiri, igira n'umutonzi n'amatwi manini cyane, ipimura ibiro byinshishi, iba mu mashyamba, ikurura ba mukerarugendo, ndetse bagatanga n'amafaranga yinjiriza Igihugu.

Igiti kinini, kiryamyemo inyamaswa y'ishyamba, bakunda kwita ingwe, igira amabara meza, ni inyamaswa mbi cyane, yica, irya n'abantu, irya n'inyamaswa ndetse iratuje cyane ntabwo ikunda gusaragurika.